Inyama ni ifunguro ryiza cyane ridufitiye akamaro nko kuturinda indwara kandi inyama ni ifunguro riryoha cyane, abana bararikunda ndetse n'abantu bakuru bagakunda inyama kuko ziraryoha cyane.

Utubari ni ahantu abantu benshi cyane bakunda kujya bagiye kwinezeza, bagiye kunywa, no kubyina ndetse no gusabana n'inshuti zabo.

Akabari gacururizwamo inzoga nyinshi zitandukanye, nka byeri, mitsingi, amarikeri ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, aho abantu bajyamo kunywa bafite icyaka kigashira.

Utubari ni ahantu hacururizwa inzoga， ibyo kurya byinshi bitandukanye， n'inzoga nyinshi zitandukanye， aho umuntu aruhukira igihe avuye mu kazi， cyangwa yaruhutse，akagenda akicara， akarya amafaranga ye atuje， akagubwa neza.

Barizi ni utubari abantu bakunda kuza kwishimishirizamo, bakaba baje nko kuruhuka mu mutwe ,bakaza bakanywa ,bakabyina mbega bakanezerwa.

Aka ni kabari aho karimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, haba harimo, ibyo kunywa, ibyo kurya, ndetse n'izi burusheti ziryoha cyane, abakiriya baza kuzishaka bakazishyura bakazirya, ubundi bakanezerwa.

Iki ni ikiribwa cy'amafi, amafi ni meza cyane, kubera ko aturinda indwara ntiturware, kubera ayo mafi, amafi ni meza cyane, kubera yuko aturinda cyane.

Izi ni botike zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo turya, ibyo twambara, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Iri ni iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi. Harimo nk'amarangi. Aya marangi bayasiga inzu kugira ngo ise neza cyane, abantu bayishimire.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho abantu bigira gusuka ndetse bakabona abakiriya, bakabakorera neza imisatsi ya bo.

Butike ni inzu bacururizamo ibyo kurya bitandukanye, n'ibyo kunywa, aho iba iherereye nko muri karitsiye zigira abaturage cyane, aho buri muturage wese aba ajya guhaha bimworoheye kuri botiki.

Botike zidufitiye akamaro kanini cyane aho ziturinda gukora urugendo runini tujyye gushaka ibyo kurya kure, ahubwo tukabifatira hafi muri karitsiye zacu, aho tuhasanga imiceri, ibirayi n'ibindi byinshi byo guteka ndetse n'amagaze n'ibindi byinshi cyane.

Isoko abantu bacururizagamo imyenda, ibikapu, amabobote, ibitambaro by'abagore, ndetse n'ibindi byinshi cyane bakabasha kwiteza imbere.

Iyi butike tuyifashisha nk'iyo aya amaterefone yacu yapfuye turagenda bakayadukorera, amatereviziyo, amaradiyo, amapasi, ibi bikoresho byose dukoresha mu rugo iyo byapfuye, twifashisha aya maduka bakayadukorera bakanatugurisha n'ibindi, n'andi materefone twaba dukeneye.

Amahoteri adufitiye akamaro kanini cyane aho atwinjiriza amafaranga menshi cyane kubera ko bamukerarugendo baza kuyasura bakaduha amadovize.

Ubu ni ubucuruzi bw'inyama aho bacururizamo inyama zitandukanye nk'inyama z'inka, inyama z'inkoko, inyama z'amafi, aho baba baje gushaka amafaranga kugirango ababesheho.

Iduka ry'ubucuruzi ni ryiza cyane, aho Emutiyeni igurisha amayinite, amayinite bakayashyira muri terefoni, bagakonegitana n'abandi bakabasha kumvikana, uri hirya no hino.

Iyi ni botique icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byinshi cyane ,aho buri muturage aba aza agahahira ibyo ashaka, hari n'imipira . Harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amazi ,harimo imikubuzo, harimo ibyo bahahiramo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Butike icururizwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, nk'ibishyimbo, amasaka, ibigori, bitoki ibirayi, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye bitanga amafaranga menshi.

Iyi ni boutique idufasha kubona ibyo dukeneye byose ,cyane cyane nk'ibiribwa ,ibinyobwa. Ibyo dukeneye byose byo guteka tubisanga muri iri duka.

Iduka baricururizamo amagare, amamoto, ndetse n'ibindi bitandukanye abantu bakiteza imbere, bakarihira abanyeshuri, bakabaho ubuzima bwiza kubera bacuruza.

Botike zicururizwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo: iby'ubwubatsi, amatiyo, ingorofani, imisumari, imyiko n'ibindi byinshi cyane.

Amaduka acururizwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'ibyuma by'ubwubatsi, amarangi yo gusiga amazu kugira ngo amazu ase neza cyane.

Iyi ni butike icurizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho bagurisha ibikapu byo mu mugongo abantu bifashisha bagiye nk'ahantu, kuba bapakiyemo imyenda yabo, ndetse iri ni idukamo rirmo ibintu byinshi bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo, amasafuriya, amabase, n'ibindi byinshi.

Iri ni isoko ricuruza imitako, bambara ku maboko, mu ijosi ndetse n'impeta zambarwa ku ntoki, iy'imitako rero ituma abantu banezerwa ndetse abantu basa neza iyo bayambaye.

Iyi ni hoteli ,aho hoteli yakira abantu benshi cyane aho baje kuruhukira, bakahamara iminsi ndetse izi hoteri habamo amacumbi ,ibyo kurya, ibyo kunywa habamo n'ibitanda byiza cyane.

Hoteri cyangwa moteri ni inzu zicururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, hakabamo n' amalojyi, aho abantu baza kuruhukira, aho abantu bajya kuruhuka bitewe n' umunaniro baba bafite, bakaza bakaguramo ibyo kurya n' ibyo kunywa ndetse bakanaharyama ubundi bakanezerwa.

Hoteri zidufitiye akamaro kanini cyane, kubera yuko abantu bakeneye kuruhuka, bari bafite siterese nyinshi mu mutwe bakeneye kuruhuka, baza kuziruhukiramo kandi hoteri zinjiza amafaranga.

Izi hoteri zituzanira amafaranga， amadovize， abazungu bo hanze baraza bakaduha amafaranga， bityo u Rwanda rwacu rugatera imbere， kubera aya mahoteri. Aya mahoteri ni meza cyane ku Rwanda rwacu.

Umuntu ukora inkweto, cyane cyane izi nkweto za pulastike harimo bote, harimo mwamini akazihoma neza, ndetse n'ibikoresho byo mu rugo nk'amabase, amajerekani, akabihoma neza cyane, bikongera bigakora.

Ubwoko bw'imboga bwa shufurere, ni ubwoko bwiza cyane rwose, kubera ko buri mu mboga nziza cyane kandi ziryoha kandi zikagira n'intungamubiri, ni yo mpamvu ubu bwoko bwa shufurere ari ubwoko bwiza cyane rwose.

Iri ni isoko, isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibindi, iri soko rikaba ritunze abantu benshi aho babyuka buri gitondo baje gushakisha ubuzima, bajya gushakisha amafaranga mu isoko.

iri ni isoko mu gihugu cyacu tugira amasoko menshi cyane aho amasoko adufasha kubona ibintu byinshi bitandukanye haba kwambara, ibikapu, ibyo kurya byose tubikura mu masoko maze bityo ubuzima bugakomeza.

Karoti zidufasha mu buzima busanzwe, aho tuzirya nk'imboga, tukaba twazivanga n'ibirayi n'ibishyimbo, mbega tukazifashisha mu biribwa bitandukanye, kandi zigira n'intungamubiri, kandi zijyanwa no ku isoko bakazigurisha, tugakuramo amafaranga.

Isoko ni ryiza cyane ku buzima bwa buri umwe wese, aho abantu bagenda bagashaka ibicuruzwa bagacuruza bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Iri ni isoko ricururizwagamo inkweto cyane cyane iz' abama ndetse n' imyambaro y' abagore aho baza kugura, kugira ngo bambare base neza barimbe.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'indimu, kaboti, amashushu, kokumbure, pavuro, urusenda, tungurusumu, amagi, ndetse n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwacu.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'inkweto za bodaboda, harimo amasafuriya batekeramo mu rugo hakabamo amabase karabiramo, hakabamo amapanu, ibikombe, amasahani n'ibindi byinshi bikoreshwa mu rugo.

Isoko ridufitiye akamaro kanini cyane, aho dusangamo ibintu bitandukanye byinshi, sharijeri, ekuteri, telefone, radiyo ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Yawurute ni amuta aryoha cyane aba yaciye mu nganda, bayatunganyije neza cyane, aya mata abana bakaba bayakunda ndetse n' abantu bakuru barayakunda cyane.

Isoko ridufitiye akamaro kanini cyane, aho igurishirizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ibikapu by'abagore, ibyo mu mugongo, ibitenge, ibikoresho byo mu rugo, nk'amabase, amasafuriya batekeramo, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko ifitiye abantu akamaro kanini cyane, aho abantu bajya gushaka amafaranga mu isoko bajyanye ibicuruzwa bitandukanye, bakoresheje amagare, amamoto, bakajyana ibyo bicuruzwa ku bicuruza mu isoko, bakabonamo amafaranga bakikenura ibibazo bafite.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho tubonamo inkweto za badaboda, aho tubonamo amasahani, ibikombe, tehelemos, byifashishwa mu rugo aho tubonamo n'amabase, iri soko ririmo ibintu byinshi byinshi bitandukanye, byifashishwa mu rugo.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, kubera ko budufasha kwiteza imbere ndetse no mu mibereho yacu, abana bakabona uko bajya ku ishuri tukishyura za minerivare, abana bakiga neza cyane nta kibazo kibayeho.

Iri n'isoko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibitunguru, harimo mavuta, harimo ibintu byinshi twifashisha mu rugo kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Isoko ni ryiza cyane, ridufitiye akamaro kanini cyane aho bacururizamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, bacururizamo amayinite, bacururizamo amasafuriya, imyenda, ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Isoko aho ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, inyanya, ibitunguru, amashu, pavuro, imiteja, ndetse n'ibindi byinshi, kandi abayicururizamo bakabonamo amafaranga menshi maze bakiteza imbere.

Ubu bucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, cyane cyane ibyo mu rugo bifite akamaro, kubera yuko umuturage wese ufite amafaranga agenda akagura igikoresho, akeneye cyose bityo rero akakijyana akagikoresha, mu rugo uko abyifuza.

Isoku bacururizamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, kokombure, urusenda, betarave, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, bigatuma abantu babona amafaranga, bakikenura ibibazo.